Abana batoya bambaye imipira itukura, aho bicaye hasi hakaba hari umugore uri kubaha igikoma, iruhande rwe hahagaze abantu benshi barimo n'umusirikari ufite inkongoro.

Abashyitsi bakuru batandatu, abagabo batanu n'umugore umwe, bakaba bari imbere y'imbaga, basobanura uburyo bagomba guteza imbere serivisi z'ubuvuzi kugira ngo babashe kwita ku barwayi uko bikwiye.

Ababyeyi babiri bahuriye kwa muganga aho bari baje gukingiza abana bakiri batoya ababyeyi baje bambaye udupfukamunwa bose bigaragara ko bari mu gihe gikomeye cya kovidi cumi n'icyenda.

Abana, batatu bakiri batoya, bambaye impuzankano y'ishuri, aho baje gukaraba intoki bifashishije amazi meza ari ku mugezi, ndetse n'isabune mbere yuko bafata amafunguro ku ishuri.

Abantu benshi bakora mu nzego z'ubuzima, bahuriye mu nzu imwe nziza cyane, iteye irange ry'umuhondo, aho bafite umushyitsi mukuru w'imena uri kubahugura ku buryo bwo gutanga serivisi z'ubuzima.

Umugore umwe ari kudaha amazi mu gisafuriya kinini akoresheje indobo kugira ngo ayajyane mu rugo, mu gihe abandi babiri bo bari gupompa amazi kugira ngo aze agwe muri cya gisafuriya.

Ni abantu batatu barimo umujyanama w'ubuzima wambaye n'itabuririya y'ubururu, akaba yicaranye n'abandi bantu babiri barimo umugore n'umugabo ubona ko bishimanyi cyane, aho baje gushaka inama zo kubaka urugo.

Abaturage bo mu murenge umwe wo mu ntara, bahuriye mu biro by'umurenge, aho baje kureba abantu bakora mu nzego z'ubuzima kugira ngo babasobanurire neza uburyo bwo kwita ku buzima bwabo.

Nyuma y'uko leta imaze guteza imbere serivisi z'ubuzima; ubu ngubu isigaye yohereza abaganga, aho bagenda bagasanga abaturage mu ngo zabo bakabavura, bakabapima ndetse bakabakorera n'izindi serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Inzu nini yitaruye ni inzu ikorerwamo serivisi zijyanye no kubungabunga ubuzima serivisi zubuvuzi ikaba ari inzu nini cyane aho buri wese aba afite uburenganzira bwo kujya kuyisura cyangwa se kujya kwaka serivisi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye, biganjemo abana, bahuriye ku kigo cy'ishuri, bose bambaye impuzankano, aho bafite impapuro bari kumanika hejuru bishimye, bagaragaza ko serivisi z'ubuzima mu gihugu ziri kugenda neza.

Abana biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano bakaba bafite ibikombe, bose baje gutonde umurongo aho ku meza hateretse indabo zabugenewe zibamo amazi yo kunywa bose bashaka amazi yo kunywa bisa n'aho bafite inyota.

Ku ivomero rusange ni mu cyaro epfo iyo za Gatenga, aho hari abana batatu n'umubyeyi umwe baje kuvoma bitwaje utubido dutoya ndetse n'isafuriya, kugira ngo bajyane amazi menshi icyarimwe.

Ni abantu umunani bahagaze bafite igipapuro, bambaye amashati y'ubururu ndetse n'imipira y'ubururu, bakaba bakorera umuryango Mpuzamahanga wita ku burenganzira bw'umwana, ubona ko bari kwamamaza gahunda yawo nshyashya.

Abantu benshi bakora mu nzego z’ubuvuzi, bamwe bambaye udupira tw’umweru ndetse n’ingofero z’umweru, abandi bakaba bambaye udupira tw’ubururu. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya kanseri, aho bari kwifotoza nyuma yuko bari bamaze kwizihiza uyu munsi.

Umwana mutoya cyane bisa n'aho ataragira imyaka ibiri yambaye ingofero y'ubudodo aho mama we yamujyanye kwa muganga kugira ngo bajye kumuha igitonyanga kimufasha mumikurire ye.

Abantu batandukanye bakaba ari abarwayi baje kwa muganga bakaba bicaye hanze ku ibaraza, inzu ibari inyuma iteye irangi ry'umuhondo ndetse bose bambaye udupfukamunwa, hakaba harimo n'umwana umwe mutoya bari kwitaho, bigaragara ko arembye cyane.

Abana batoya bambaye imipira y'umutuku, bicaye bakoraniye hamwe aho bari kugaburirwa n'abashinzwe iby'ubuzima, hakaba harimo n'umupolisi uri gusomya umwana igikoma mu gikombe.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu idoze muri rondoni akaba afite n'ibisuko bya derede, afite icupa rya parasitike, aho ahagaze hanze y'inzu yubakishije amatafari ahiye, hakaba hari igipangu cyubakishije nkarakara.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi asobanura umuryango mpuzamahanga wita k'uburenganzira bw'umwana, amagambo ari mu ibara ry'umutuku handitsemo kovide cumi n'icyenda, hakaba hari n'indi miryango itandukanye yose ifasha muri serivisi z'ubuvuza hano mu Rwanda.

Umukobwa ukiri muto ,yambaye ingutiya y'ubururu ndetse n'umupira w'amaboko maremare .Akaba ari gukaraba ku mugezi amazi ameneka ,aho ari kurwanya indwara zandurira mu mwanda.

Ibyishimo bikomeye cyane by'abantu bari bahujwe n'umugambi umwe wo kwita ku buzima bw'abaturarwanda, bahuriye mu nzu baraganira none nyuma y'amahugurwa bari kubyina barishimye cyane.

Abaganga batatu bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'udushashi mu mutwe, bambaye amashashi umubiri wose, undi akaba yambaye itaburiya y'umweru bisa naho bari kuvura by'umwihariko abarwayi bafite indwara z'ibyorezo.

Umugore wambaye imyenda idozwe mu gitenge ateruye umwana, aho yamujyanye kumukingiza kwa muganga, yakiriwe n'umugabo w'umuganga wambaye itaburiya, ndetse n'uturindantoki akaba ari kuvura uwo mwana nk'uko babimusabye.

Abantu benshi cyane baje kuvoma ku ivomero rusange, bamwe bitwaje indobo abandi bitwaje ibidomoro, abandi bakaba ntacyo bazanye baje baje kunywa amazi gusa.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu, yambaye ekuteri akaba yicaranye n'umuganga wambaye agapfukamunwa, ari kwandika mu ikayi ibisubizo, aho ari kumubaza amakuru ajyanye na sida.

Imbaga nyamwinshi y'abantu baturutse mu mpande zose z'isi bari mu ngeri zitandukanye ariko abenshi muri bo bakora mu nzego z'ubuvuzi, aho baje kuganira kuburyo barushaho kunoza serivisi zabo z'ubuvuzi.

Umugore ukenyeye igitenge, yambaye ingofero y'ubudodo, akaba yambaye n'umupira w'amako maremare, yaje kuvoma yitwaje amajerekani atatu ku mugezi wubatswe ku nkunga ya Leta.

Umugabo wambaye karuvati akaba yambaye n'ikoti akaba ari umugabo uhagarariye ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda ishami ryo kurwanya kanseri.

Umugabo wicaye hasi bisa naho ari umusambo ashungerewe n'abana bato ndetse n'abandi bagabo babiri aho bamwicaje bakaba bari kumwereka ibyo gukora, bakaba bategereje ko asaba imbabazi ngo bamubabarire.

Inama y'abakomeye mu gihugu akenshi bakunda guhura iyo habaye ikibazo gikomeye. Bahuriye mu cyumba kimwe, aho baje kuganira ku bijyanye no gushora amafaranga mu by'ubuzima.

Umwana wambaye impuzankano y'ishuri ari kwifotoza akaba afite udukombe tubiri, hakurya ye hakaba hari abandi bana batoya ariko bo bambaye imyenda idafuze bisa naho bo batagiye ku ishuri cyangwa se bakaba badusanzwe bakiga.

Umukobwa wishinmye cyane, yambaye ingofero y'ubudodo, akaba akenyeye igitenge, ari gukaraba intoki kuri kandidagira ukarabe yifashishije amazi meza ndetse n'isabune.

Umukobwa wambaye ingutiya y'umukara n'umupira utukura, yaje kuvoma ku mugezi, aho yazanye ijerekani y'umuhondo akaba yayiteretse mu mabase kugira ngo adasesagura amazi kuko ari gufura.

Umwana muto wambaye agapira gatukura yazanye igikombe cy'icyuma aho yaje gutega amazi ku mugezi kugira ngo ayanywe cyangwa se kugira ngo ayajyane mu rugo ayakoreshe ubundi buryo yifuza.

Ni umugabo w'umwirabura wambaye ishati ya karokaro yiganjemo amabara y'umweru. Yiyogoshesheje umusatsi wose, akaba yambaye n'ipantaro y'umukara, aho afite ikijerekani yaje kuvoma amazi ku mugezi bubakiwe na Leta.

Abantu batanu bose ni abagore bicaye mu cyumba kimwe kwa muganga aho bari kuganiriza umurwayi ufite ikibazo cy'imyumvire y'uko adashaka kwivuza.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari kwigishwa n'inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi, bateraniye mu rugo rw'umuturage aho inzu ye yubakishije amatafari ahiye, uruhande rumwe ahandi hakaba hari inzu y'imbaho ziteye irange ry'icyatsi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye biganjemo abayobozi mu nzego zo hejuru bahuriye mu mudugudu umwe wo mu Ntara y'amajyepfo aho bari kwiga ku buryo bwo guteza imbere serivisi zitangirwa kwa muganga ndetse ari nako baboneraho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo w'umwirabura, wambaye ikote n'amataratara, ari kumwe n'umuzungu w'umugore, aho bari kwifotoza bose bafite igikapu cyanditseho amagambo asobanura ngo sura u Rwanda.

Umwana mutoya wambaye agapira k'amaboko magufi k'ubururu, akaba ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza n'isabune. Aho umubyeyi we ari kumusukira amazi ku ntoki akoresheje ijegi.

Abana batandatu barimo abakobwa bane n'abahungu babiri bose bambaye impuzankano bakaba bafite n'ibikombe aho baje kunywa amazi ku kigega, bigaragaza ko bakangurira abana kunywa amazi bifashishije ibikoresho byabugenewe.

Abana bato bane bateze amaboko bishimye cyane, hari umugabo wambaye bote ndetse n'ipantaro n'agapira k'amaboko magufi, akaba ari kubasukira amazi ku ntoki bagakaraba amazi ari kugwa mu ndobo.

Umubyeyi wambaye amataratara, akaba yakenyeye igitenge ndetse yambaye n'iribaya, inyuma ye hari abana bato biga mu mashuri abanza, asa n'aho ari inzobere mu by'ubuzima, akaba ari kubatoza uburyo bwo kwiyitaho.

Abantu benshi cyane, ni abagore bafite abana bakiri bato. Bakaba bicaye ku nyubako yo kwa muganga, aho baje gushaka serivisi z'ubuvuzi. Bakaba baje gukingiza, abandi bakaba baje kwivuza bisanzwe.

Kwa muganga umugore wabega agapfukamunwa k'umukara ndetse n'agakapu mu ijosi, yagiye kwikingiza indwara ya kovide cumi n'icyenda, aho umuganga yambaye agapfukamunwa, ari kumukingira amutera urushinge ku kaboko.

Nyuma yuko amazi yegerejwe rubanda ahantu hose, umwana wambaye ishati y'icyatsi yaje kuvoma ku mugezi rusange yitwaza inzobo ebyiri arikumena amazi uko ashaka bigaragara ko amazu yabonetse ku bwenshi.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye ariko bose se bakaba bakora muri gahunda za leta zijyanye n'ubuzima, bifotoje nyuma yo gukora inama y'uburyo bwo kubungabunga ubuzima bw'umugore utwite ndetse n'umugore wabyaye.

Abana benshi cyane bakiri batoya aho bahuriye ku mugezi aho impombo yapfumutse hakaba hari kuvamo amazi ameneka bari kurwana bose bashaka gukaraba kugira ngo bose bagire isuku ku mubiri by'umwihariko mu ntoki.

Abana bakunda gukina n'amazi, baje hano ku mugezi umwana umwe ufite umusatsi w'injwiri ari gutega amaboko mugezi akanywa amazi akoresheje intoki ze usa n'aho atitwaje igikombe cyangwa agacupa ko kuvomeramo.

Umwana muto w'umukobwa afite umusatsi usanzwe, akaba yambaye agapira k'umweru, hari umuganga uri kumutera urushinge ku kuboko aho ari kumukingira icyorezo cya Kovidi cumi n'icyenda.

Aba ni abana babiri bari mu kigero cy'imyaka cumi n'umwe na cumi n'ibiri, bakaba bari gutega amazi ku mugezi, bari gukaraba intoki, umwe yambaye imyenda isa y'ibiturusu, undi akaba yambaye agapira k'umutuku.

Ku munsi w'umuganda rusange abantu mu nzego zitandukanye barimo abayobozi, abapolisi n'abandi, bahuriye ahantu hamwe, aho bari gutera imboga mu karima k'igikoni mu buryo bwo kubungabunga gahunda yo guteza imbere indyo yuzuye.

Abagore batatu baje ku ivomero, babiri bari gupomba amazi ku mugezi wa gakondo, undi umwe akaba ari kudaha amazi mu isafuriya, aho ari kumeneka akaba ari kudahisha indobo kugira ngo ajye kumesa imyenda y'abana.

Umukobwa ukiri mutoya ahagaze impande y'inzu yubakishije amatafari y'impunyu, aho ari gukaraba intoki kuru kandagira ukarabe ikozwe mu ndobo, ndetse amazi akaba ari kugwa mu ibase.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bose bakora mu nzego z'ubuzima, bahuriye mu cyumba aho bari kuganira, buri wese akaba afite agacupa k'amazi ndetse akaba afite n'agapapuro imbere ye kanditseho izina rye n'icyo akora.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu, yambaye agapira gato k'amaboko magufi, yambaye n'ijipo y'umukara, akaba ari gufura imyenda ye yanitse ku mugozi, kuri ubu akaba aje gutega amazi ku mugezi kugira ngo akomeze afure imyenda ye.

Abayobozi mu nzego zitandukanye bahuriye ahantu hamwe aho bicaye bari kuganira kuri gahunda z'ubuzima bicaye imbere y'inzu iteye irangi y'ubururu, iyo nzu ikaba ifite na pano hejuru y'amabati.

Abantu batandukanye bakora mu nzego z'ubuzima bahuye mu nzu mberabyombi y'umurenge aho bafite umushyitsi mukuru w'imena, akaba ari umugore waturutse muri minisiteri y'ubuzima, aho ari kubasobanurira uburyo butandukanye bwo kwiyitaho.

Abagore babiri bari gupomba amazi ku mugezi wa kera, aho undi umwe ari kudaha ayo mazi ahari kugwa mu gisafuriya kinini, akadahisha indobo y'icyatsi ayajyana ahandi.

Abaturage bo mu mudugudu umwe mu ntara y'Amajyaruguru bahuriye kwa mutwarasibo, aho baje gusurwa n'abakora mu nzego z'ubuvuzi bitwaje abana b'abo bato bari kubaha igikoma ndetse n'izindi mfashabere zitandukanye.

Nyuma y'uko hamaze kwaduka icyorezo cya korona virusi, ubu ngubu abantu bose bari kujya kwikingiza kwa muganga, dore ko aribwo buryo bwiza bwo kugira icyizere cy'ubuzima no kumva ko ntaho uzahurira nayo.

Umukobwa mutoya watereye igitenge ku rutugu, yazanye ibidomoro bibiri kuvoma aho ashungerewe n'abandi bana bato hakaba hari umugore mukuru uri kumufungurira amazi.

Abantu batanu barimo abagabo babiri n'abagore batatu, bambaye ingofero z'umweru bakab bambaye n'udupira tw'ubururu twose twanditseho ijambo shora neza.

Abantu bakora mu nzego z'ubuzima zitandukanye, bahuriye mu mudugudu umwe wo mu cyaro, aho baje gushaka abaturage kugira ngo babapime ubwandu bw'agakoko gatera SIDA ndetse n'izindi ndwara zose zandurira mu maraso.

Abayobozi mu nzego zitandukanye ziganjemo iz'ubuzima bahuriye ku meza y'ibiganiro baraganira buri wese afite agacupa k'amazi ari kunywa bari kuganira ku buryo ndetse n'ingamba bashobora gufata kugira ngo babungabunge ubuzima.

Amazu abiri matoya yubakishije amatafari y'impunyu, akaba arimo inzugi z'ibyuma, ari mu gipangu kinini cyane aho mu gipangu bari gushyiramo amapave, bisa naho ari inyubako zitari zuzura neza.

Amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'igishushanyo, akaba ari amagambo y'impine asobanura umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'umwana.

Abana babiri, bose bafite indabo z'umweru, bakaba baje kuvoma ku mugezi rusange, aho bari kugira ngo bajye gusukura aho baba ndetse banafure imyenda bambara.

Abana batandatu b'abanyeshuri, ni abana barimo abahungu bane n'abakobwa babiri, bose bambaye impuzankano. Baje kuvoma ku mugezi rusange, aho bitwaje indobo ndetse n'utudomoro.

Abantu benshi cyane, biganjemo abageze mu zabukuru ndetse n'abandi bakuru kuko harimo abana bake. Bahuriye ku nzu y'umudugudu aho habaye inama ijyanye n'uburyo abaturage bakwiye kwiyitaho ndetse no kwita kuri bagenzi babo, cyane cyane ku bijyanye na gahunda z'ubuzima.

Umugore uhetse umwana mu mugongo aho amuhetse mu gitenge akenyeye ikindi gitenge akaba yaje hano ku mugezi koza indobo ndetse no kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Umwana wambaye ikabutura itukura ndetse n'ishati y'amaboko maremare, ateze umunwa ku mugezi aho ari kunywa amazi andi mazi asagutse ku ntoki akagwa mu ndobo ari na yo yaje kuvomeramo.

Umugore wambaye iribaya akaba afite n'umusatsi usanzwe, yajyanye umwana we kwa muganga kugira ngo ajye kumuha vitaminini none muganga arikuyiha umwana nk'uko bikwiye.

Umukobwa wambaye ikanzu y'ubururu, yambaye umupira w'umweru, akaba yambaye n'inkweto za badaboda, yagiye ku ishuri akaba ateze intoki, ari gukaraba ku mugezi mu buryo bwo gusukura intoki ze.

Abagabo batatu bambaye bikwije umubiri wose, aho bapfutse umutwe ndetse n'intoki, bari gukora utuntu tw'utuzitiro twasenyenge, aha imbere y'ibitaro kugira ngo ibyonnyi bitazinjira mu busitani.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, biganjemo abakora mu nzego z'ubuvuzi, bamwe muri bo bakaba bakorera umuryango Mpuzamahanga wita ku mbabare, bakaba bambaye imipira y'umutuku cyangwa se amajire y'umutuku, imbere yabo hari umugabo wicaye bari kwitaho.

Abantu bakora mu nzego zitandukanye z'ubuvuzi mu Rwanda bateraniye hamwe kugira ngo baganire uburyo bwiza bwo kunoza serivisi batanga, hakaba hari umushyitsi mukuru wambaye ikoti afite mikorofone ari nawe uri kubakangurira ibyo byiza bifuza kugeraho.

Ni abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba abicaye mu mbuga y'ibitaro, barimo abagore batwite ndetse n'abandi bafite abana bakiri bato, bakaba bakiriwe n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru akaba ariwe uri kubavurira abana.

Abaganga bane bambaye umubiri wose bikwije aho bambaye imyenda isa n'icyatsi, bakaba bambaye udupfukamunwa ndetse n'uturindantoki, bari kuvura umurwayi umwe usa naho yaba afite ikibazo cy'uburwayi bw'icyorezo.

Abana bane, bari aha, bazanye utudomoro, aho baje kuvoma ku mugezi, bakaba bazanye n'umuntu umwe mukuru ari we uri kubapompera amazi aho ku mugezi rusange, aho hirya yabo hari imodoka irimo umuntu uje kubareba.

Nyuma y'uko abantu bakora mu nzego zitandukanye z'ubuzima bari bakoze inama kugira ngo barusheho kunoza serivisi batanga, barangije inama yabo baraza barifotoza ubona ko bishimye ndetse biteguye gushyira mu bikorwa ibyo bigiye mu iyo nama.

Umwana muto wambaye ijipo ndetse n'ishati bidozwe mu gitenge, asutse ibituta, akaba ari gukaraba intoki ku mugezi, amazi ari gukarabamo agahita agwa mu ibase y'umukara. Iruhande rwe hari igipangu cyubakishije amatafari y'inkarakara.

Abana bambaye impuzankano y'ishuri baricaye mu ishuri, aho bari gufata amafunguro ya saa sita, ni muri ya gahunda ya leta yo kugaburira abana ku ishuri.

Abana batoya ni abana barindwi. Bambaye impuzankano, bakaba bahetse n'ibikapu. Umwana umwe ari kunywa amazi aho n'abandi bose bamutegereje, kubera ko hari umugezi umwe; kugira ngo amare kunywa, na bo babona uko banywa.

Abantu bateraniye hamwe baganira ku bintu bitandukanye ariko byiganjemo gahunda za leta zijyanye n'ubuzima, none nyuma y'inama baje kwifotoza kugira ngo babike ifoto y'urwibutso.

Abana batoya babiri umwe yambaye ipantaro n'ishati bikoze muri londoni undi akaba yambaye agapira gatukura, bose bateze intoki ku mugezi aho bari gukaraba amazi ndetse bakanayanywa.

Umugore wambaye umupira, akenyeye igitenge akaba yiteze n'ikindi gitenge. Yazanye n'abandi bagore bagenzi be ku bitaro aho baje gushaka serivise, bakaba bakiriwe n'umuganga w'umugore aho ari kubapima ngo abe yabaha ubufasha bwo kubavura ndetse akabaha n'imiti.

Icyenda barimo bamwe ukora mu nzego zishinzwe umutekano, bari kwifotoza nyuma yuko bari baje ku kigo nderabuzima cya Kacyiru kureba uburyo serivise z'ubuvuzi zitangwa ku bakiriya.

Umugabo ukiri muto, yambaye ikabutura, akaba afite igipine cy'imodoka, aho yicaye hasi mu muhanda, abandi bagabo babiri bamushungereye, bisa naho afite ikibazo, cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umusore uri mu nzu bisa naho aboshye amaguru ndetse bakaba baramukingiranye, yambaye ubusa ubona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umukobwa wambaye agapira k'umukara, akaba yambaye n'ikote ry'umutuku ry'amaboko maremare, arishimye cyane aho bigaragara ko afite ibyishimo birenze, mbega akaba nta kibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe afite.

Igipapuro hasi kiri mu ibara ry'umukara, cyanditseho amagambo y'Icyongereza ari mu ibara ry'umweru, hejuru hakaba hari amafoto y'abantu batandukanye, ubona ko bamwe muri bo bafite ibibazo by'uburwayi bwo mu mutwe.

Urufunganzoka rw'abantu, bateraniye mu nzu mberabyombi, aho baje kwiga ku kibazo kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bafite umushyitsi mukuru w'imena w'umugore, aho ahagaze imbere yabo akaba ari kubahugura.

Umugabo wambaye agashati k'ubururu karimo imirongo y'umweru akaba akenyeye igitenge yicaye mu cyumba cya wenyine aho bigaragara ko bamukingiranye bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Abantu batandukanye biganjemo abakora mu nzego z'ubuzima bahuriye mu nzu, aho baje kuganira ku kibazo cy'indwara z'ubuzima bwo mu mutwe, aho baganiriye ku buryo bashobora kuzirinda.

Abana bo mu cyaro bambaye imyenda isa nabi, aho bamwe bambaye inkweto, abandi bakaba ntazo bambaye, bamwe muri bo bafite utujerekani duto, bakaba bagiye kuvoma amazi yo gukoresha mu rugo.

Umutwe w'umuntu ugizwe n'ibice bitandukanye ariko icy'ingenzi twavuga ni nk'ubwonko, aho usanga ari bwo bugira uruhare mu bintu byose umuntu akora, mu mirimo ye ya buri munsi.

Umusaza wakutse amenyo, yambaye ishati y'ubururu, akaba yiteye umwitero uri mu ibara ry'umuhondo, afite umusatsi mwinshi bigaragara ko ari umusaza uri mu za bukuru, ariko akaba afite ikibazo cy'amenyo.

Umugabo w'umuganga yambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko akora mu bitaro. Avura indwara zitandukanye zo mu mutwe, aho akora i Kigali mu bitaro bivura indwara zo mu mutwe.

Umugore wambaye igikoti kinini cyane, yambaye ibitambaro mu mutwe, akaba yambaye inkweto zacikaguritse, bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye mu muhanda akaba afite amacupa abiri, inyuma ye hakaba hari abantu benshi bamushungereye.

Umugabo muremure wambaye neza ari usuhuzanya n'undi mugabo wambayeyenda by'ibishwambagure, ufite ibisatsi by'ibidirede byamwereyeho bisa naho afite ikibazo cyo mu mutwe.

Umugabo ufite ibisatsi byinshi akaba akenyeye igitenge nk'uvuye koga, yicaye mu muferege w'amazi aho iruhande rwe hari ibidomoro ndetse n'ibyenda byashaje bisa naho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Umugabo wambaye ishati izwi nkikorerwa mu rwanda arahagaze yegamye ku nzu inzu iteye igipande aho ari gutekereza akibaza niba abayeho neza cyangwa nabi byamushobeye.

Abantu batandukanye bigaragara ko ari abakorerabushake bambaye imyenda isa aho bahuriye ahantu hamwe bakaba bari gutera ibiti ndetse babungabunga ibidukikije muri rusange.

Umugabo aricaye yegamye ku nzu, inzu ikaba iteye irangi rijya kuba umukara. Ni umugabo wipfutse mu maso, usa n'aho ababaye, mbega akaba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Nk'uko umubiri w'umuntu ugira ibice bitandukanye bikora, umutwe na wo ugira ubwonko bukora cyane, burya rero ni ngombwa kubungabunga ubwonko bwawe akenshi na kenshi utekereza ibintu bitagutera ibibazo.

Umukobwa wasutse ibisuko birebire, yambaye ishati y'igitenge, afite microphone, akaba yicaranye n'undi mugabo aho bari gusobanurira abatuye U Rwanda uburyo bwo kwita ku menyo.

Nyuma y’uko hateranye inama yiga ku buzima ndetse no kubungabunga amenyo muri rusange, abitabiriye inama bifotoreje hanze aho bishimye cyane, bishimiye imyanzuro ndetse n'umusaruro inama yagezeho.

Akenshi na kenshi bakunda kuvuga ko abana bato nta mutima mubi bagira, ariko ni byo biragaragara rwose abana batoya bigaragara ko bari munsi y'imyaka icumi, barishimye cyane bose bafite amenyo meza bigaragara ko bitaye ku menyo yabo bakiri bato.

Umugabo usa nabi cyane, ni umugabo w'igikara, akaba yambaye imyenda yashwanyaguritse cyane, bigaragara ko afite ikibazo cyo mu mutwe, kuko ari kugendagenda mu muhanda urimo n'imodoka nta bwoba afite bw'uko zamugonga.

Umubyeyi wambaye iribaya idozwe mu gitenge akaba yiteza n'igitambaro gisa n'iryo ribaya, akaba ari guseka ariko ubona ko afite amenyo adateye neza harimo inyinya nini cyane.

Abantu batatu barimo umugore, umwana ukiri muto, ndetse n'undi mukobwa ujijutse, umugore ari kwereka uwo mukobwa ujijutse akuma gakoreshwa mu gupima niba umuntu yaba yarasamye.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, ndetse n'uturinda ntoki, akaba agiye kuvura umurwayi uryamye ufite ikibazo cy'amenyo.

Umuganga ukora muri serivise zo kwita ku menyo, yambaye agapfukamunwa, amataratara ndetse n'uturindantoki, akaba ari gusuzuma umurwayi amenyo kugira ngo arebe ko yamuvura.

Umwana mutoya w'umukobwa yambaye iherena akaba yambaye n'agashati k'amaboko magufi kumuhondo yagiye kwa muganga aho bari kumuvura amenyo bakaba bari kumupima bareba ikibazo yaba afite.

Umusore w'umwirabura, agiye kwa muganga aho yari afite indwara z'amenyo ari kwitabwaho na muganga w'umukobwa wambaye uturinda ntoki, aho arikumuvura amenyo yifashishije koroshi ndetse n'akandi kuma gakoresha umuriro w'amashanyarazi.

Abana babiri bakiri bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano y'ishuri bakaba bafite uburoso bw'amenyo ndetse bakaba bari koza amenyo bifashishije amazi meza ndetse n'umuti w'amenyo.

Umuganga w'umukobwa ufite amenyo meza araseka amasaro agaseseka, akaba afite imisatsi y'imimadikano, yicaranye n'umurwayi wambaye amataratara, aho ari kumusobanurira uburyo bwiza bwo kwita ku menyo ye.

Icyumba kisanzuye. Ni kwa muganga kirimo agatebe umuganga yicaraho iyo ari gutanga serivisi z'ubuvuzi, ndetse n'intebe ikoze nk'igitanda umurwayi aryamaho iyo bari kumwitaho bamuvura amenyo.

Abantu babiri bambaye udupira tw'umweru, harimo umwana mutoya n'undi mugabo mukuru, aho umugabo ari kwigisha umwana uburyo bwo gusukura amenyo ye, hifashishijwe urudodo rwabugenewe, mu mwanya wo gukoresha umuti woza amenyo.

Abagore, abagabo, abakobwa ndetse n'abandi bose bari mu ngeri zitandukanye bakora mu nzego z'ubuvuzi, aho bita ku bibazo by'amenyo, bari kwifotoza bishimye cyane, aho bari bamaze kuganira ku buryo bwo gukora akazi kabo neza.

Kwa muganga by'umwihariko ahatangirwa serivisi zitandukanye z'amenyo, haba ibyuma bifasha muganga kwita ku barwayi twavuga nk'intebe muganga yicaraho cyangwa igitanda umurwayi aryamaho ndetse n'ibindi.

Abana batoya biganjemo abakobwa bari mu ishuri aho biga mu ishuri ribanza mu ntara. Bakaba bose bishimye, bazamuye umuti w'amenyo buri wese bitewe n' umuti akoresha, akaba yawuzamuye hejuru mu kirere. Bakaba bari kwifotoza.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi k'umweru akaba afite ibisuko by'amaderede afite akadodo muri iyi minsi gakoreshwa nk'uburyo bwiza bwizewe bwo gusukura amenyo mu mugihe umuntu amaze kurya.

Umukobwa w'umwirabura araseka neza amasore agaseseka aho bigaragara ko afite amenyo meza y'akataraboneka ndetse akaba ari icyitegererezo ku bantu bose bifuza kugira amenyo meza.

Umukobwa mwiza cyane amenyo meza, ateye neza, akaba ari guseka aho agaragariza urubyiruko ndetse n'abandi bose kwiyitaho ndetse bakita ku menyo yabo kugirango azagumane umwimerere.

Inzu nziza cyane ifite parafo n'amatara meza, iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo intebe zikozwe nk'ibitanda zijyamwaho n'abarwayi barwaye amenyo iyo bari kuyabakura cyangwa se bari kuyabavura mu bundi buryo.

Abana bato biga mu mashuri abanza, bambaye impuzankano bakaba bari mu ishuri, aho bose bazamuye hejuru umuti w'amenyo bakoresha, boza amenyo yabo, mu buryo bwo kwita ku menyo.

Umugabo ufite ubwanwa, ni umwirabura, akaba akoresha uburyo bugezweho muri iyi minsi bwo gusukura amenyo, aho akoresha akadodo kabugenewe mu mwanya wo gukoresha amazi, n'umuti w'amenyo.

Umugabo ufite amenyo meza ni igitangaza cyane kuko ntibisanzwe, afite akadodo kabugenewe bifashisha bakura imyanda mu menyo, aho nawe ari kuyikuramo muri ubwo buryo mbere y'uko ajya kuryama kuko amaze kurya ibiryo bya saa sita.

Inzu nini y'ibitaro iteye amarange y'umweru ikaba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'inzobere ku baganga bita ku burwayi bw'amenyo.

Nyuma y'uko ubuvuzi bwateye imbere mu Rwanda, umuganga w'umugore wambaye udupfukantoki ndetse n'ishati y'ubururu, ari kuvura umugabo aho ari kumukura amenyo yifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga.

Nk'uko buri ndwara igira ibyuma bitandukanye byifashishwa mu kuyitaho, ni nako umuntu ufite ibibazo by'amenyo hari ibikoresho byifashishwa mu kumwitaho harimo: imakasi, koroshi ndetse n'utundi twuma dutandukanye.

Abaganga babiri umugore n'umugabo, bambaye udupfukamuwa bakaba bambaye n'amataburiya y'umweru, bari kuvura umwana muto aho bari kumusuzuma neza amenyo kugira ngo babone uko bamwitaho.

Kwa muganga, ahatangirwa serivisi z'amenyo hari ibikoresho bitandukanye: hari igitanda abarwayi baryamaho iyo bari kubavura amenyo, hakaba agatebe muganga yicaraho ndetse n'utubati tubikwamo imiti n'ibindi bikoresho.

Umugabo wari usanzwe arwariye kwa muganga, ubu ngubu akaba ahagurutse abashije kugenda, nubwo ari mu zabukuru, cyane ko aba yitaweho n'abaganga by'umwihariko abaganga b'abagore, bazwiho kuvura cyane.

Umusaza ufite uruhara ,afite ubwanwa bw'imvi, bigaragara ko arwaye, yaje kwa muganga , akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa ,aho ari kumuha ibinini byo kunywa ndetse akaba afite n'amazi mu gatasi yo kubinywawesha.

Abantu bo mu cyaro babasangwabutaka barishimye cyane aho bahagaze mu murima wabo bamanitse utunyejoro, amasuka, amatelefone n'ibindi bishimye cyane, kuko imyaka bahinze imeze neza.

Umukecuru wambaye amarinete, afite imvi, yambaye agapira karimo uturongo tw'umukara, aho ari kumwe n'undi mugore w'umuganga, wambaye imyenda y'akazi, bigaragara ko amaze kumuvura, aho yari yaje kumureba mu bitaro.

Umukecuru wambaye ikanzu idoze mu gitenge aricaye hasi aho ari kumwe n'umuganga w'umugore wambaye agapfukamunwa, amataratara ndetse n'uturindantoki aho ari kumusuzuma ngo amuvure indwara zose yaba afite.

Umusaza ufite uruhara, yambaye ishati y'amaboko maremare, akaba yicaranye n'umugore ukora mu nzego z'ubuvuzi, aho bari kureba amashusho muri telefone, akangurira uwo musaza kwiyitaho.

Umusaza uri mu zabukuru yicaye mu kagare kicaramo abantu bafite ubumuga bw'ingingo cyane cyanez'amaguru, aho ari kumwe na muganga w'umugore amuganiriza neza kugira ngo atiheba.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe, aho bari mu gisharagati bakaba bari kwizihiza ibirori by'umunsi mukuru mpuzamahanga wahariwe ubuzima, bakaba bari kurya ndetse bakananywa.

Umusaza ugeze mu zabukuru afite ubwanwa bw'imvi, yambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'umweru, akaba ari guterura icyuma ari gukora ituza, aho ari kumwe n'umuganga w'umukobwa uri kumufasha guterura icyuma.

Umusaza uri mu za bukuru afite imvi zabaye ruyenzi, afite mu maso hakanyaraye akaba yicaye muri dushe aho hari undi muntu uri kumukarabya mu mutwe.

Umusaza aricaye, aho ari gukina dame, akaba agiye no kurya. Birazwi neza ko hari imikino y'abana ariko n'abageze mu zabukuru hari imikino iba ibagenewe bashobora gukina kandi bakishima.

Abagore bageze mu icyenda, barishimye cyane, aho umunani muri bo bambaye amajipo y'umukara n'udupira tw'umweru, undi akaba yambaye ikanzu, undi umwe muri bo akaba yambaye ishati y'ubururu. Barishimye cyane, ubona ko bari kubyina, banezerewe.

Abakecuru batatu bagendana n'ibigezweho aho bafite telefone bose bari kwifotora bishimye banezerewe, babiri bambaye imipira y'umweru aho umwe muri bo ari na we ari gufotora yambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo.

Umukecuru wambaye amaherena, afite umusatsi w'imvi, wayambaye ishati y'umweru y'amaboko maremare aho ari kurya ibiryo byiza cyane, birimo imboga ndetse n'imbuto.

Umusaza n'umukecuru bigaragara ko bari mu zabukuru bose bafite imvi baricaye mu rugo aho bari kureba muri telefone bafite n'imiti isa naho bari kwiyibutsa uko muganga yababwiye bazajya bakoresha iyo miti.

Umugore ukiri muto ari kumwe na mama we bigaragara ko ageze mu za bukuru, aho ari kumutegurira amafunguro yiganjemo imboga ndetse n'imbuto, hari imboga rwatsi hakaba imbuto nk'indimu ndetse n'izindi zitandukanye.

Umukecuru uri mu zabukuru afite inkoni, aho yicaye kwa muganga, akaba yicaranye n'umugabo ufite ubwanwa bwinshi w'umuganga, ari nawe wari umaze gukurikirana ikibazo cy'uburwayi bwe, anamuha imiti.

aAbantu batatu barimo umukecuru umwe mukobwa n'umusore bigaragara ko ari abana b'uwo mukecuru bose bari gutegurira hamwe ibyo kurya byiganjemo imboga ndetse n'imigati aho bari kwita ku m'ukecuru kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru uri mu zabukuru aricaye mu rugo afite akarahuri k'amazi gateretse ku meza, akaba ari kumwe n'umuganga w'umukobwa uri kumuha imiti kugirango anywe abashe gukira.

Umukecuru ugeze mu zabukuru afite umusatsi wabaye imvi wose akaba ahagaze mu nzu yarambuye amaboko aho ari kumwe n'umukobwa we akaba ari we uri kumufasha mu gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane arambura ingingo.

Nyuma yuko abakecuru babiri bisobanukiwe bakamenya ko imyitozo ngororamubiri idakorwa n'abana bakiri bato gusa, ubu nabo basigaye barafashe umwanzuro wo kuzajya bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru ari gucunga akagare yambaye ikoti ndetse na furari mw' ijosi yambaye ingofero ari kumwe n'umukobwa bigaragara ko ari umukobwa we amutwaje igikapu ndetse n'umukobwa nawe yambaye ipantaro y' ikoboyi aho bari kugenda mu muhanda uri hagati y'ubusitani .

Umugore wambaye amarinete, yiteze n'igitambaro, yaje gushaka serivise z'ubuzima kwa muganga, aho yicaye mu kagare kagendamo abantu bafite ubumuga bw'amaguru, akaba ari kuganira na muganga bishimye.

uUmugore w'umwirabura yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isegyeri y'ubururu yarambirije hasi ukuguru kumwe aho ukundi yaguhinnye ari kugorora amaguru n'amaboko bigaragara ko ari gukora siporo.

Umusaza ageze mu za bukuru yicaye mu rugo aho ari kumwe n'abuzukuru be babiri, umusaza yambaye ishati y'umweru, ipantaro y'itisi, akaba afite inkoni aho afite ikijumba ari kurya n'abana akaba yabahaye ibijumba bakaba bari kurya.

Umugore wambaye umupira w'umweru w'amaboko maremare, ari kumwe n'umwana we muto w'umukobwa, bari gukina imikino y'abana, aho bafashe utuntu baturambika ku meza bakaba bari kugenda batombora.

Umusaza wambaye agapira, akaba yambaye n'ishati, afite imvi, ari kumwe n'umukobwa ukiri muto, wambaye ikote ry'ikoboyi, akaba yambaye n'amataratara. Barishimye cyane, ubona ko buri wese yitaye kuri mugenzi we.

Abantu benshi batandukanye bahuriye ahantu hamwe bakaba bari kwifotoza, aho bari bamaze gutanga utugare duhabwa abantu bafite ubumuga bw'ingingo ziganjemo iz'amaguru.

Umusaza ufite uruhara, akaba afite ubwanwa bw'imvi, yambaye ishati ya kaki, aho ari kuvurwa n’umuganga w'umukobwa wambaye itaburiya y'akazi, akaba ar’umukobwa w'inzobe, akaba ari kumuvura yifashishije akuma gapima gutera k’umutima.

Abantu benshi bari kugenda mu muhanda, imbere hari abakecuru babiri, umwe ufite umusatsi w'imvi ariko bose bakaba biteze imekenyero, bakaba bambaye n'udupira tw'umutuku bisa naho ari umunsi mukuru w'abakundanye.

Ishati ya karokaro, ageze mu zabukuru kuko afite imvi, ari gusangira n'umuhungu we ku meza aho bari kurya ibiryo byiganjemo imboga n'imbuto, bakaba bafite n'ikirahure cy'amazi yo gusomeza kugira ngo ibiryo bari kurya bitabaniga.

Abantu babiri, umugabo ni umwirabura afite uruhara, akaba yambaye amataratarama, ari kumwe n'umugore w'umuzungu, aho arikumwururutsa ku masikariye, bisa n'aho atayamenyereye.

Mu isoko aho abaturage bajyana imyaka, ubungubu hicaye abagore batandatu, aho bari gucuruza amaronji, inyanya ndetse n'ibindi biribwa bitandukanye bigenda bikenerwa umunsi ku munsi.

Abaturage biganjemo abagore bateraniye hamwe aho bicaye hasi bari kuganira ndetse bari kungurana ibitekerezo ku buryo bwiza bashobora kwiyitaho nabo bakaguma bafite ubuzima bwiza.

Umusore ufite amatuza bisa n'aho ari umugabo, ari kumwe n'umukecuru wambaye isaha wambaye n'agapira k'amaboko magufi, bose bari kugenda biruka mu muhanda bakaba bari gukora siporo.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bahuriye mu mihanda aho bari kwishimira intambwe imaze guterwa mu kurwanya kanseri y'ibere, banashishikariza bagenzi babo kurushaho kuyirwanya.

Abantu bane ni abaganga, bakaba bita ku ndwara by'umwihariko zifata mu mutwe, bambaye imyenda y'icyatsi, ingofero z'icyatsi ndetse n'udupfukamunwa, bakaba bari kwita ku murwayi umwe uryamye ku gitanda.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko, bahuriye mu munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya SIDA. Abo bantu bahuriye mu mihanda nyuma yuko hari hamaze gutegurwa ubukangurambaga mu rubyiruko rwo kurwanya icyorezo cya SIDA.

Abantu baturutse mu ngeri zitandukanye mu bihugu byose by'isi, bahuriye hamwe kugira ngo bagene amategeko n'amabwiriza agenga ubuzima ndetse n'uburyo bugomba kwitabwaho aho haje abashyitsi batandatu b'imena.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, asobanura Ikigo Gishinzwe Ibidukikije Mpuzamahanga ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu, asobanura Umunsi Mpuzamahanga Wita ku Bidukikije, uba ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwa cyenda.

Ibirango bibiri biri mu ibara ry'umweru byanditsemo amagambo, kimwe ari mu ibara ry'umukara, ikindi ari mu ibara ry'umutuku, hasi handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura ikigega Mpuzamahanga.

Gahunda yashyizweho na leta yo kwegereza serivisi z'buzima kuri bose abaganga bagiye gusura abaturage mu ngo zabo aho bari kubafata amaraso babapima niba hari indwara zandura baba bafite.

Amagambo hari inyuguti ya R, B, na C, byanditse mu mabara atandukanye, aho byose hamwe ari impine, isobanura ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Umugore ukora mu nzego z'ubuvuzi yambaye agashashi mu mutwe akaba yambaye agapfukamunwa yakamanuye aho yahinnye ukuboko yafunze igipfunsi, ku ruhande hariho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza ko dushyize imbere guhamya serivise z'ubuvuzi mu Rwanda.

Abantu bateraniye hamwe n'urubyiruko aho bateze amatwi umukobwa mwiza cyane, wambaye amarinete, wambaye ikanzu nziza yikwije ndetse akaba ari kubaganiriza uburyo bwiza bwo gushyiraho ingamba zo kubungabunga ubuzima.

Abantu babiri umugabo umwe ndetse n'umugore wambaye ikoti, bafite igipapuro bisa n'aho bakora mu nzego z'ubuzima mu Rwanda, aho bakangurira abantu kwisuzumisha Igituntu.

Abantu benshi cyane biganjemo urubyiruko barimo abasore n'inkumi, abenshi muri bo bambaye imipira y'umweru, mu gihe batatu muri bo bari imbere bambaye imipira y'umukara, umwe akaba yambaye ingofero. Baricaye, aho bari kuganirizwa ku buryo butandukanye bwo kwita ku buzima bwabo ndetse umwe muri bo afite mudasobwa.

Igipapuro kinini cyane kiriho itara, kikaba cyanditseho amagambo amwe ari mu ibara ry'icyatsi andi ari mu ibara ry'umukara, ari mu ibara ry'umukara, akaba asobanuye ngo ibimenyetso bya diyabete.

Abagabo babiri baturutse mu bihugu bitandukanye, bambaye amakoti bose bafite ibipapuro bigaragaza akazi bakora' aho bishimye bakorana mu biganza nyuma y'uko bamaze gufata umwanzuro w'uburyo bagomba guteza imbere serivisi z'ubuvuzi.

Gahunda za leta by'umwihariko iza minisiteri y'ubuzima kenshi na kenshi zita ku buryo kurwanya ibyorezo birimo na korona hari uburyo bwokwambara agapfukamunwa, uburyo bwohana intera, gukaraba amazi meza n'isabune n'ibindi bitandukanye.

Inama yateranye ikaba yahuje abayobozi batandukanye mu nzego z'ubuzima aho bafite abashyitsi batandatu b'imena bicaye imbere y'imbaga, buri wese afite mikoro bakaba bari kubaganiriza uburyo butandukanye bwo kwita ku barwayi.

Amabara arimo icyatsi, ubururu, umuhondo, umutuku, binyuranyuranamo, ku ruhande hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, bisobanuye ngo umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya gukuramo inda, mu umwaka wa bibiri na cumi na karindwi.

Umugabo n'umugore bahagaze imbere y'intebe ndetse n'ameza bafite ibipapuro bigaragaza intego bafite ko bagomba kuzayigeraho bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu.

Kwa muganga umurwayi araryamye, ariyoroshe, bakaba bamushyizemo serumu, aho aryamye ku gitanda, muri icyo cyumba hakaba hari n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga.

Inzu nini cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, ikaba irimo ibyuma bitandukanye byifashishwa n'abakora siporo, aho baba bari kunyonga hakaba hariho n'aho barebera ibirometero banyonze.

Nyuma yuko hamaze gutangazwa ko hari butangwe serivisi zo kwisuzumisha indwara zandura, abaturage babyukiye kwa muganga ari benshi cyane batonze umurongo, aho bari kugenda bahera ku baje mbere.

Ni mu nzu nziza cyane y'ibitaro, iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo imirongo ibiri uw'umutuku n'uw'ubururu. Ni inzu irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibitanda ndetse n'ameza bikoreshwa n'abaganga ndetse n'abarwayi bahakorera.

Abakobwa batandatu bambaye impuzankano y'abaganga umwe muri bo akaba yambaye ikarita y'akazi ndetse bambaye n'utupfukamunwa, bose bari kwifotoza inyuma yabo hakaba hari igipapuro kinini cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi nari mu ibara ry'umukara.

Icyumba kinini cyane cyo mu nzu yokwa muganga, kirimo ibitanda by'abarwayi bitandukanijwe n'amarido, aho umurwayi umwe atabona mugenzi we ndetse hakaba harimo n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa na muganga.

Abaganga babiri bambaye amataburiya ndetse n'udupfukamunwa bari kwa muganga, bari gukoresha icyuma gifata ibipimo akenshi kikanasuzuma ibimenyetso bafashe abarwayi.

Inzu nziza cyane y'ivuriro, ni igorofa igeretse rimwe. Hasi hari ibaraza ryugamyemo abantu babiri umugabo ndetse n'umugore utaye umwana. Mu nzu harimo abaganga babiri n'umurwayi umwe aho uri kubabona ucishije amasa mu idirisha.

Inyubako nziza cyane, ni inyubako ifite ibirahuri bibonerana, ikaba iteye irangi ry'umweru, irimo inzugi zikoze mu mbaho z'ibiti, hejuru hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu n'ay'umukara agaragaza izina ry'iyo nzu.

Inzu nziza cyane iteye amarangi y'umweru ndetse nay'umukara hasi, isakaje amabati atukura. Ikaba iriho icyapa gishushanyijeho abana babiri, hagati hakaba hariho amagambo mu ibara ry'ubururu bivuga ngo abana b'u Rwanda. Imbere hakaba hari ibendera ry'u Rwanda ndetse n'ibendera rigaragaza ubuvuzi.

Inzu nziza cyane y'ibitaro. Yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite inkingi eshatu ziteye irange ry'umweru. Imbere hateye indabo nziza cyane ndetse n'umucaca mu busitani.

Abaturage benshi bahuriye kwa muganga, bose bambaye udupfukamunwa, bisa naho bikiri mu igihe gikomeye k'icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda, baje gushaka serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Inyubako nziza y'ibitaro yubakishijwe amatafari ya ruriba, ndetse imbere hakaba hari umuhanda waba bagenzi bagendesha amaguru urimo amapave. Ku ruhande hakaba hari ubusitani bwiza cyane

Inzu nini cyane yubakishije amatafari ya ruriba, ni igorofa, igeretse rimwe, aho yanditseho amagambo adasomeka neza ariko hakaba handitsemo ijambo Afurika.

Inzu nziza cyane y'ibitaro iteye amarangi y'umuhondo ikaba ifite amadirisha arimo ibirahuri by'umukara, ni inzu ababyeyi baje kubyara bakirirwamo aho ifite ibaraza rinini abantu bahagararamo cyangwa bicaramo.

Kwa muganga hari inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba ifite ibaraza rinini aho abarwayi bicara mu gihe bagitegereje serivise. Hari indabyo z'imitako hakaba n'inzira iteye sima abantu banyuramo.

Umugabo ufite ubumuga bw'amaguru, yicaye mu kagare kicaramo abafite ubumuga bw'ingingo cyane cyane iz'amaguru, aho hari umwana mutoya wambaye ikoti uri kumucunga uri ako kagare, akaba amuzanye ahabereye ibirori.

Inzu nziza cyane izajya itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo amatara meza cyane, irimo inzugi n'amadirishya birimo ibirahuri byiza, aho batari bayitaha ku mugaragaro kugira ngo batangire bayikoreremo.

Inzu icururizwamo amadarubindi ahabwa abantu bafite ikibazo cyo kureba, irimo amadarubindi menshi. Aho hasi hariho ifoto y'umukobwa wambaye amadarubindi, bisa n'aho ari gutange urugero ku bantu badakunda kuyambara kandi bafite ikibazo cyo kureba.

Abaganga batatu. Bose bari kwa muganga bakaba bari kwita ku murwayi umwe uryamye ku gitanda aho bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo, bakaba bari kumuvura bamufubitse agatambaro kugira ngo atareba akagira ubwoba.

Mu cyaro cyane ubungubu abantu b'inzobere mu by'ubuvuzi, basigaye basangayo abaturage bakajya kubitaho bakabagira inama z'ubuzima ndetse bakanabafasha guhindura imyumvire y'uburyo bakwiye kubaho bakabaho neza kandi bakagira ubuzima bwiza.

Kwa muganga abaganga bakora mu nzego z'ubuvuzi bw'indwara zandura by'umwihariko indwara z'ibyorezo, bari mu cyumba cy'ibitaro aho bambaye bikwije imyenda y'umweru bakaba bari kwita ku barwayi baryamye ku bitanda biri aho ngaho.

Inyubako nziza cyane nini kandi ivuguruye, ni igorofa igeretse rimwe, isakaje amabati atukura. Imbere yayo hari inzira y'abanyamaguru ari nayo icamo imodoka, hakaba hari ahaparirika ibinyabiziga hari moto n'imodoka, imbere hakaba hari idarapo ry'u Rwanda.

Inyubako nini cyane yitaruye, ifite amadirisha mato. Iruhande rwayo hari umuhanda nyabagendwa uri kugendamo abagenzi, ku rundi ruhande hakaba hariho ubusitani buteyemo n'ibendera ry'u Rwanda.

Mu nzu nziza y'ibitaro, ifite parafo y'umweru amatara meza ndetse n'isaha y'urushinge, irimo ibikoresho byifashishwa kwa muganga, aho umuntu aryama bakamucisha mu cyuma, bakamupima indwara yaba afite mu ngingo zitandukanye, ndetse n'ahandi hose mu mubiri.

Inzu nziza ifite inkingi ebyiri, ikaba ifite parafo ifite amabara atatse neza, ni inzu yitaruye ngari irimo intebe z'ubwoko bubiri mu mabara, Ni inzu ifite jaride mu nzu bigaragara ko ari inzu y'ubuvuzi.

Kwa muganga hitabirwa n'abantu bafite uburwayi butandukanye, hari umugore wambaye agapfukamunwa, ufite ubumuga bw'ingingo, aho yaje akaba ari kwitabwaho na muganga w'umugore iruhande rwe hakaba hari n'abandi benshi cyane bafite ikibazo cy'ubumuga bw'ingingo, bose bari kwitabwaho bisa naho ari umunsi wabagenewe.

Inyubako nziza cyane y'ubuganga, igeretse rimwe, ikaba iteye irangi ry'umuhondo, ku ruhande hari igipangu cyiza cyubakishije amatafari y'impunyu, hakaba hateraniye abantu benshi bakora mu nzego z'ubuvuzi.

umukobwa w'umuganga yambaye itaburiya y'ubururu akaba afite n'imisatsi ya ama meshi ni umuganga uri kuvura umurwayi uryamye kwa muganga aho yamushyizemo serum kugirango abashe kumwitaho uko bikwiye.

Ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, harimo intebe abarwayi bicaraho iyo bari kubavura ndetse n'intebe abaganga bicaraho, byose biri mu nyubako imwe kwa muganga, mu cyumba cyiza cyane, giteye amarangi kandi gisukuye.

Kwa muganga, abaganga baricaye abandi barahagaze bari guhugura bagenzi babo mu masomo ndetse n'uburyo bwiza bwo gutanga serivisi ku babagana.

Ni inzu nini cyane irimo ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, harimo intebe eshatu, hakaba harimo n'ibyuma bibikwamo amarinete ahabwa abantu bafite ikibazo cy'amaso.

Inyubako nini cyane yisanzuye, imbere yayo hakaba hari umurima munini cyane uhinzemo ubusitani, hakaba harimo n'amapoto maremare ariho amatara abonesha mu gihe cy'umwijima.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, iteye irangi ry'umuhondo, irimo parafo y'umweru, ikaba irimo inzugi ndetse n'amadirishya binini cyane by'ibirahure, hasi harimo amakaro ndetse hakaba harimo n'ibikoresho bitandukanye.

Abagabo batatu bari munzu kwa muganga aho babiri bicaye bafite na mudasobwa imbere zabo undi umwe akaba ahagaze ari kubasobanurira ibintu biri ku gipapuro cyometse ku gikuta cy'ivuriro.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi, yubakishije amatafari ahiye, ikaba iteye amarangi y'umuhondo ku nkingi. Isakaje amabati atukura ndetse iteye irangi mu ibaraza, aho ifite ibaraza rinini cyane ryicayemo umuntu umwe, abandi batatu bakaba bahagaze.

Inzu nini cyane y'igorofa igeretse kabiri, yubakishije amatafari ya ruriba ndetse ku zindi mpande ikaba iteye amarangi y'umweru, irimo ibirahuri byiza byiza bibonerana. Imbere hari abantu bari gutembera mu muhanda, aho bigaragara ko ari inyubako y'ubuvuzi itaratangira gukorerwamo.

Inzu nini cyane y'ubuvuzi, iteye amarangi y'umweru, irimo amatara meza cyane, ikaba irimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, birimo igitanda cy'abarwayi n'ibindi.

Inzu nini ikorerwamo serivisi z'ubuzima igeretse gatatu, ikaba yubakishije amatafari ya ruriba, aho yanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, asobanura ko itangirwamo serivisi zitandukanye z'ubuvuzi.

Inyubako nziza cyane y'ubuvuzi. Ni igorofa, ikaba irimo amakaro meza cyane arabagirana. Iteye irangi ry'umweru, irimo amatara abiri y'akataraboneka. Hakaba harimo n'ibikoresho bitandukanye muganga yifashisha ari kwita ku barwayi.

Inyubako nziza cyane z'ibitaro zisakaje amabati atukura, imbere haparitse imodoka eshatu hakaba hari n'umuhanda wa kaburimbo aho abantu bari kugenda batambukamo, ndetse imbere y'izi nyubako hakaba hari n'ibendera ry'u Rwanda.

Ku marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, akaba ari ikigo nderabuzima cyubatswe gishya aho kizajya gitanga serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, hakaba hari umugore uhetse umwana uri ku marembo aho ategereje kwinjira akajya gushaka serivise z'ubuzima.

Mu cyumba kimwe cy'ibitaro hari umukobwa urwaye cyane urembye, aryamye ku gitanda hakaba hari umugore w'umuganga uri kugerageza kumuvura, ndetse hakaba hari n'undi mugabo nawe uri kugerageza kumushyirira agatambaro ku mpanga kugira ngo umuriro ugabanuke.

Icyuma kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru kikaba cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara risobanura ngo umuremyi segina ni icyuma kiri mu inzu y'ibitaro aho kifashishwa mu kuvura abarwayi.

Turi mu inzu y'ibitaro aho hari ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi twavuga nk'igikoresho gifata amashusho aho umuntu yaba afite uburwayi mu mubiri ndetse n'ibindi bikoresho umuntu aryamaho.

Inzu nziza cyane y'ibitaro ikaba irimo ibikoresho bitandukanye ari iby'umweru ari iby'umukara byiganjemo mudasobwa ndetse n'ibindi byose byifashishwa kugira ngo batange serivisi nziza ku babagana.

Icyuma cyiza cyane kiri mu ibara ry'umweru. Kikaba cyifashishwa mu gufata amafoto y'imbere mu mubiri ku bantu bafite ibibazo by'uburwayi, kiri mu cyumba cy'ibitaro cyiza cyane giteye amarangi y'umweru, hakaba harimo akabati, indobo n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inzu nini cyane iteye irangi ry'umuhondo, ikaba irimo amadirisha arimo ibirahure, imbere hari indabo iyo nzu yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru aho asobanura inzu karayeze.

Inzu nziza cyane y'Ibitaro ifite amabara atandukanye kuri parafo, ikaba ifite amabara y'umweru ku bikuta, n'inzu irimo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga aho izajya itangirwamo serivisi zo kwa muganga.

Inyubako nziza cyane y'akataraboneka, iteye irangi ry'umweru, irimo parafu y'umweru, ndetse harimo n'amatara atandatu ari kwaka urumuri rutica amaso. Iyo nzu icururizwamo amadarubindi yifashishwa n'abantu bafite ibibazo by'amaso.

Inyubako nziza cyane z'ibitaro. Inyubako imwe igeretse rimwe ikaba isakaje amabati y'ubururu, imbere hari imbuga nini iparitseho imodoka hakaba hari n'abantu bari kugenda aho mu mbuga.

Inyubako y'ibitaro yitaruye cyane, yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakaje amabati y'icyatsi, imbere yayo hari icyapa kereka abantu ko ari yo nzira igana kw'iyo nyubako.

Inzu nziza cyane yakirirwamo ababyeyi baje kubyara ikaba ifite ibaraza, ari naho abantu bicaye mu ntebe nziza cyane ndetse n'ameza, bategereje ababyeyi bagiye kuvurirwa muri iyo nzu.

Umuganga wambaye akenda k'umweru mu mutwe, yambaye n'impuzankano y'abaganga, yambaye uturindantoki tw'umweru akaba ari koza umwana amaze kuvuka kwa muganga, ari kumwitaho akoresheje intoki ze ndetse n'ibindi byuma bimufasha by'ikoranabuhanga.

Inzu nini cyane y'igorofa, igeretse rimwe, ikaba iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hari umuhanda w'amapave, hakaba hari n'icyapa kigaragaza serivise zitangirwa mu iyo nzu.

Inzu nini yo kwa muganga iteye irangi ry'umweru, ikaba irimo amatara meza agezweho ariko atakije, ikaba irimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora siporo.

Ni amarembo meza cyane, aho ariho amagambo yanditswe mu ibara ry'umweru, asobanuye ngo ibitaro bya Kabgayi. Ni amarembo y'ibitaro aho abantu banyura ndetse n'ibinyabiziga binjira mu bitaro.

Ku ivuriro ni inzu nini cyane igeretse rimwe aho abantu bateraniye ari benshi baje gushaka serivisi z'ubuvuzi mbere y'iyo nzu haparitse imodoka mu mbuga yayo irimo amapave.

Kwa muganga, hari ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi, ari umuyaga, ari ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'amashuri, kakaba hari n'utugare dutwarwaho imiti itandukanye, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga.

Inyubako nziza cyane ni igorofa igeretse kabiri aho ari ivuriro cyangwa se inzu itanga serivise z'ubuzima yitwa Sangwa. Ifite imbuga nini cyane iparitseho amamodoka ndetse akaba hari n'abantu baje kuhashaka serivise z'ubuzima.

Kwa muganga, umuganga wambaye agapfukamunwa, itaburiya ndetse n'uturindantoki. Afite umuti mu ntoki, akaba ari gukanda kuri mudasobwa, sinzi ibintu ari kwemezamo, ari mu cyumba kinini cyagutse kirimo ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura.

Inzu nini cyane, ni igorofa igeretse rimwe iteye amarangi y'umweru isakaje amabati y'ubururu, imbere haranditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara asobanura ngo Ikigo nderabuzima cya Kanyinya, imbere hakaba hari n'Idarapo ry'u Rwanda.

Inzu nziza cyane icururizwamo imiti, ikaba ari inzu iri ku muhanda aho imbere yayo haparitse imodoka ebyiri, ikaba iriho ibipapuro byanditseho izina ryayo, aho handitseho n'andi magambo avuga ngo ubwiza ni ubuzima.

Inzu nziza cyane, inzu y'ibitaro yubakishijeje amatafari y'impunyu, ikaba isakaje amabati y'icyatsi, ni inzu iriho ibyapa bibiri, icyapa kigaragaza izina ryayo ko ari ibitaro bya Gihundwe ndetse n'icyapa kigaragaza ko batanga serivisi z'amaso.

Inzu nziza cyane y'ubuvuzi, irimo ibikoresho bitandukanye byiganjemo ibigega bibamo amazi yo kunywa ndetse n'ibindi byuma bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi.

Umurwayi wambaye umupira w'umweru, agapfukamunwa k'umukara ndetse n'ingofero y'umukara. Aryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho ari kwitabwaho na muganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru.

Abarwayi babiri, umwe ni umwana mutoya aryamye ku gitanda, undi akaba ari umusaza uryamye ku kindi gitanda, bombi bari mu cyumba kimwe kwa muganga; aho baje gushaka serivisi zitangwa na muganga.

Nyuma y'uko inzobere mu by'ubuzima, zari zahuye ngo ziganire ku cyakorwa kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza, zahuye zirifotoza, aho zifotoreje ku cyapa cyanditseho ngo ibitaro bya Butaro.

Umugabo urwaye bamuryamishije ku kantu gatoya k'akagare. Ari mu cyumba cya wenyine, aho ari icyumba kirimo ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu kuvura, ariko akaba nta muganga urimo uri kumukurikirana.

Kwa muganga hari inzu yakirirwamo abagore batwite, aho yubakishije amatafari y'impunyu, ikaba isakaje amabati y'icyatsi yanditseho ngo inzu y'ababyeyi, imbere yayo hari abantu bari kwifotoza bisa n'aho bakora mu nzego z'ubuzima.

Kwa muganga hari ibitanda bitatu mu cyumba kimwe by'abarwayi, ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi mu gihe igitanda cyo hagati nta muntu ukiryamyeho bisa n'aho uwa ukiryamyeho yakize akajya mu rugo.

Inzu y'ibitaro ifite korodoro ndende cyane ikaba iriho igishushanyo cy'umutako ku gikuta ndetse irimo amatara meza abengerana iriho n'inzugi zikoze mu mbaho z'ibiti.

Inzu nziza cyane y'akataraboneka yubatswe ku nkunga ya Leta akaba ari inzu itaratangira gukorerwamo ariko bikaba biteganyijwe ko izajya ikoreramo abantu bazobereye ibijyanye n'ubuvuzi.

Umugabo w'umuganga, yambaye itaburiya y'umweru aho ari mu bitaro, akaba ari gukoresha icyuma cyo kwa muganga gifata amafoto mu mubiri kireba ahaba hari uburwayi.

Mu bitaro byiza cyane by’akataraboneka bisa n’aho bitarakoreshwa na rimwe, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye bizakoreshwa ubwo bazaba batashye ibi bitaro, harimo ibitanda by'abarwayi, hakabamo ameza n'ibindi bitandukanye.

Inzu y'ibitaro isaganuye ni inzu ngari aho irimo ibitanda by'abarwayi bitanda biryamyeho abarwayi bari gushaka serivisi z'ubuzima aho babahaye n'inzitiramubu zibarinda umuntu utera malariya.

Kwa muganga ni inzu nziza iteye amarangi y'umweru hakaba harimo intebe abarwayi b'amenyo bicaramo iyo bagiye kubavura, hakaba hari n'agatebe muganga yicaramo.

Inzu nini cyane y'ibitaro. Ikaba yukishije amatafari y'impunyu, aho yubatse nk'inyubako zizwi nk'agacurama, imbere hari umuhanda wa kaburimbo unyurwamo n'ibinyabiziga ndetse n'abantu, hakaba hari n'icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa.

Umugore wambaye imyenda y'ubururu, ipantaro n'ishati byose bisa, arigutambuka muri korodoro y'ibitaro, aho ari kumwe n'abagenzi be b'abaganga bose bambaye udupfukamunwa bisa n'aho baje mu kazi ko kwita ku barwayi.

Icy'icungo akenshi hifashishwa n'abana batoya giteye ahantu mu busitani aho cyegeranye n'igipangu, hanze y'igipangu hari amazu bigaragara ko aho hakorerwa imyitozo ngororamubiri ariko akaba ari hafi y'ingo zituwe n'abantu.

Inyubako nziza cyane icururizwamo imiti itandukanye, igorofa igeretse kabiri, ikaba iriho icyapa kigaragaza izina ry'iyi nyubako ndetse imbere hari imbuga irimo amapave iparitsemo imodoka imwe.

Inzu nziza cyane y'ibitaro ikaba iteye irangi ry'umweru ikaba isakaje n'amabati y'umweru ni inzu ifite ibaraza rigari cyane ari naho abaturage bahagaze mbere y'uko binjira kujya guhura na muganga.

Umuganga w'umukobwa yambaye ijire y'ubururu n'umupira utukura, aho ari gusuzuma umwana muto cyane amutunga igitoroshi kugirango arebe ikibazo yaba afite.

Umukobwa yicaye hasi ku musambi ari gukora imyitozo ngororamubiri yambaye ipantaro imufashe cyane ndetse n'agasengeri gato iruhande rwe afite agacupa k'amazi ndetse akaba afite na mudasobwa imbere ye.

Ifoto ishushanyijeho ikirangantego cy'u Rwanda ndetse ikaba yandikishijweho amagambo ari mu mabara atandukanye, ari mu mukara bisobanura igihugu cy'u Rwanda ndetse n'andi ari mu y'icyatsi bivuga ibitaro bya gisirikare, bigaragara ko ari ikarita ihabwa umuntu ukora imyitozo ngororamubiri.

Agapapuro kari mu ibara ry'icyatsi, kakaba kariho ibishushanyo by'abantu batandukanye bari gukora imyitozo ngororamubiri, hariho umwe upfukamye hasi, hakaba uryamye, hakaba uwicaye ndetse n'abandi batandukanye.

Uducupa dutatu turi mu ibara ry'umweru, buri kamwe hariho igipapuro kiri mu ibara rya move cyanditseho amagambo y'icyongereza asobanura ngo hagarika ububabare, utu ducupa tukaba turimo umuti gakondo wifashishwa mu kugabanya ububabare.

Udukarito tubiri turi mu ibara ry'umutuku, twanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru. Tukaba turiho n'ikirango cy'ikimenyetso cyo guteranya cy'umuryango mpuzamahanga ufashe imbabare.

Umwenda w'igitaka uriho ikirango cy'umweru cyanditseho amagambo atandukanye mu ibara ry'umukara asobanura umuryango mpuzamahanga wita ku mbabare, kikaba kirimo n'ikimenyetso cyo guteranya kiri mu ibara ry'umutuku, hasi hari n'andi magambo mu rurimi rw'Icyongereza.

Gukora imyitozo ngororamubiri akenshi na kenshi bitewe nuko umuntu ahora akenera ibiribwa ndetse n'ibinyobwa, tugirwa inama yo gukoresha amazi meza n'imbuto kamere nk'amaronji n'izindi zitandukanye.

Umukobwa w'umwirabura yicaye mu bwatsi, yambaye ikabutura y'icyatsi irimo imirongo y'umweru, yambaye agasengeri gatoya, ari kurambura amaguru ndetse n'umugongo, aho ari kanama agakoza ibiganza bye ku nkweto.

Umukobwa yabize icyuya cyane yambaye agasengeri ndetse akaba yatereye furari ku rutugu ari kunywa amazi kuko arananiwe cyane ko yiriwe akora imyitozo ngorora mubiri.

Umusore uhagaze mu nzu yitaruye irimo ibikoresho bitandukanye byaba ibikoreshwa mu gukora imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye.

Isaha ipima urugendo umuntu yakoze, ahanini yifashishwa mu nzu zitandukanye zikorerwamo imyitozo ngororamubiri ku bantu bakora siporo birukanka.

Umusore wambaye ikoti rimufashe cyane, rifite ingofero, aricaye hasi ari kunywa amazi kuko yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ananiwe ndetse afite inyota.

Umurwayi uri kwa muganga ni umugabo wambaye ishati y'ubururu akaba ateruye akantu kazwi nk'icyuma akenshi gakunda gusangwa mu nzu zikorerwamo imyitozo ngororamubiri aho hari umuganga uri kumufasha gaterura.

Umusore w'umwirabura ufite ubwanwa, afite umusatsi muke, akaba yambaye agapira k'amaboko maremare kamufashe gasa n'umukara. Ari kunywa amazi mu gacupa ka paasitike ndetse anayimenaho mu maso no mu mutwe kuko afite ibyuya nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Inzu nini yisanzuye ni inzu ikorerwamo siporo ikaba irimo ibyuma, ari ibyifashishwa mu kwiruka, ari byifashishwa mu kunyonga n'ibindi aho byose byifashishwa n'abantu baje gukora siporo.

Umusore wambaye ikabutura y'umweru ndetse n'isahaba, akaba yambaye n'inkweto zifunze, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yahinnye ukuguru kumwe, akarambura ukundi ndetse akarambura n'ukuboko agakora ku mano.

Ni umunsi mukuru aho amakipe abiri y'Akarere ka Huye na ka Nyanza byahuye, umukino w'intoki, bakaba bari gukina, hakaba hari abantu benshi cyane baje kubafana ubona ko bishimiye uyu mukino.

Umukobwa yambaye isaha, yambaye inkweto zifunze n'agakabutura yari ari gukora imyitozo ngororamubiri yirukanka mu muhanda none bigeze aho arananiwe arahagaze arunama bisa n'aho azungereye agiye kwitura hasi.

Umukobwa uteye neza yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri y'umweru akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri aho yazamuye amaboko agorora ingingo zitandukanye nk'inkokora ndetse n'izindi zo mu maboko.

Igikapu cy'umutuku kibikwamo ibikoresho bitandukanye by'umwihariko ibikoreshwa mu myitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi byifashishwa kwa muganga birimo umukasi n'indi miti itandukanye.

Umugabo ubyibushye amaboko ndetse n'amatuza, ari gukora imyitozo ngororamubiri mu nzu ikorerwamo iyo myitozo. Ari gusimbuka urukiramende aho ku ruhande hari umugore uri kumwereka uburyo babikoramo.

Umukobwa wicaye hasi ku mukeka yarambirije amaguru ndetse arunama aho yarambuye amaboko akayakoza ku birenge, ubu ni uburyo bushya bwo gukora siporo aho uba unanura amaguru amaboko ndetse n'umugongo icyarimwe.

Nk'uko hari imiti itandukanye ikoreshwa mu ngeri zitandukanye, no mu buryo bwo gukora siporo hari imiti abantu bafata kugira ngo nibaramuka bagize ikibazo iborohereze, babe bayifashisha by'umwihariko twavuga nk'imiti igabanya ububabare.

Abagabo batatu, umwe yambaye imyenda y'umukara hose n'inkweto za Nike, undi akaba ari umuntu ukora mu masiganwa bisa naho yananiwe ubwo yasiganwaga, bakaba bari kumuterura ngo ahaguruke hasi.

Umugabo wambaye umupira w'amaboko magufi akaba yicaye mu ntebe y'imifariso, aho arambuye ukuboko ndetse akaba ari kwikanda bisa n'aho afite imvune yo mu nkokora.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi, yagiye mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho baterura ibintu biremereye, aho ari gufashwa n'undi muntu ubimenyereye, amwereka uko bikorwa.

Udukoresho tubiri tuzwi nk'imbago. Tukaba dufite ibara ry'umukara, ibara ry'umutuku, hejuru tukaba turiho igiti, aho turiho n'umugozi uri mu ibara ry'umukara, wifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Ni inzu nziza cyane ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo inkingi ebyiri zifashe parafo, parafo ikaba isa n'umweru, iyi nzu irimo amarange y'ubururu ndetse irimo n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Nyuma y'uko umukobwa duturanye yakoraga imyitozo ngororamubiri agatsikera mu ivi akagira ikibazo ubungubu yagiye kwa muganga aho ari kwitabwaho na muganga kugira ngo yongere agire ubuzima buzira umuze.

Umukobwa aryamye hasi ku mukeka aho ari kunanura umugongo asa n'uwunama y'unamira inyuma, yambaye ipantaro y'umukara ndetse n'agasengeri gato kagaragara ko ari umusiporutifu.

Ni abantu babiri bicaye mu ivuriro, barimo umubyeyi wambaye iribaya ndetse n'igitenge, ari kumwe n'umwana we muto w'umukobwa wambaye imyenda y'umweru, bakaba bashashe mu nzu y'ibitaro iteye irangi ry'umweru kugira ngo bategereze abaganga.

Igishushanyo cy'umuntu uri kwiruka bigaragara ko ari gukora siporo, aho gishushanyijwe mu tumenyetso dutandukanye, hakaba hari n'amagambo yanditse mu ibara ry'umukara akaba ari mu rurimi rw'icyongereza, aho agaragaza uruhare rw'ibiyobyabwenge mu kwangiza ubuzima bwa muntu.

Umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gasa n'igitaka ari kunywa amazi mu icupa ribonerana, nyuma yuko yaravuye gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore ufite amatuza ndetse n'amaboko abyibushye, yambaye agapira k'amaboko magufi kamufashe cyane, karasa n'icyatsi, akaba afite n'umupira akoresha mu myitozo ngororamubiri wanditseho umubare kane.

Amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hari ari mu ibara ry'umweru, aho asobanura imbuga nkoranyambaga ikigo runaka gikoresha, hejuru hakaba hari izina Viyateri Nshimyumuremyi akaba ari inzobere mu by'imitekerereze.

Umuntu wambaye ipantaro itukura ndetse n'isengeri itukura, yicaye hasi kuri tapi aho ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaboko ndetse arambura n'amaguru kugira ngo amenye ko afite ingingo zikora neza.

Nkuko siporo igira akamaro gakomeye ku mubiri w'umuntu ni nako nanone imufasha mu mitekerereze ye, kuko akenshi na kenshi abantu bakora siporo, ntago bajya bafatwa n'indwara nkiz'agahinda gakabije, ndetse n'izindi zose zijyanye n'imitekerereze.

Abantu babiri umugabo n'umugore bambaye amajire, aho bari mu kibuga baje kuvura umukinnyi wakoze impanuka agatsikira agatsinsino, iruhande rwabo hagaze abakinnyi bari kubarebera.

Mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri harimo abantu babiri, hari umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije ibyuma byabugenewe, ndetse n'undi mugabo wambaye agapfukamunwa umeze nk'aho ari we wereka abantu uburyo bwo gukoresha ibyo byuma.

Umusore w'umwirabura wambaye ikabutura y'umukara yambaye n'agasengeri k'umukara, ubona ko kamufashe akaba apfukamye ku musambi aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, ananura amaguru ndetse n'amaboko.

Inkweto ebyiri zikaba ari umuguru umwe. Zimeze nka butini, zirasa n'umukara, rumwe ruriho agapapuro kanditseho ngo bato. Akaba ari inkweto zifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ari kunywa amazi mu icupa ry'ubururu akaba afite ubwanwa, yambaye umupira w'amaboko magufi, akaba amaze gukora imyitozo ngororamubiri cyane ko ari yo itera inyota.

Umusore aricaye yambaye agapira k'umweru, akaba yarambiseho agatambaro gatoya k'ubururu, aho ari kwikanda ahantu ashobora kuba yatsikiyeye ukuboko ubwo yakoraga imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye ishati y'amaboko magufi y'ubururu, akaba yambaye n'ikarita y'akazi ari kunanura umugore uryamye ku gitanda cy'abarwayi, aho asa n'aho yatsikiye mu ivi ubwo yakoraga siporo.

Ku bantu bakora imyitozo ngororamubiri babikora bafite intego zitandukanye, by'umwihariko ku bantu bakora siporo bakeneye kugira ngo bagabanye ubunini bw'inda, hari igikoresho cyabazaniwe aho kigura amafaranga ibihumbi ijana na makumyabiri y'u Rwanda.

Umuganga w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'uturindantoki, ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho imbere ye hari icyuma gikoreshwa mu kuzimya umuriro.

Abantu batandukanye bakora mu nzego z'ubuvuzi, bambaye amataburiya y'abaganga, bari mu bitaro aho bari kumwe n'abarwayi bambaye udupfukamunwa, bisa naho bakiri mu ibihe bikomeye by'icyorezo cya Kovid cumi n'icyenda.

Umugabo wicaye hasi yambaye isengeri ndetse n'ipantaro by'umukara, aho ari kunywa amazi mu gacupa ka palasitike, nyuma yuko yari amaze gukora imyitozo ngororamubiri ariko akaba ananiwe.

Umugabo yagiye kwa muganga, yambaye ikoboyi, ndetse n'agapira k'amaboko magufi, yicaye ku gitanda, aho undi muganga w'umugabo ari kumuvura, amuzirikaho igitambaro, ndetse anamupfuka, bisa naho yatsikiye ubwo yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo w'umwirabura yambaye agapira k'amaboko magufi akaba ari kunywa amazi mu gacupa ka palasitike birasa naho' ananiwe nyuma yuko yari ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikarito kiri mu ibara ry'ibyatsi kikaba gifunguye aho kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, birimo amacupa, imiti ndetse n'ibindi byinshi cyane.

Umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'uturindantoki, arimo kuvura umurwayi aho yaje yavunitse umugongo nyuma y'uko yatsikiraga ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Abantu batandukanye baturutse mu mpande zombi baje kuganira ku kibazo cy'ubuzima, aho bari kugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye ijire akaba yambaye n'ishati y'ubururu arikuvura umugabo usa nkaho yavunitse mu ivi cyangwa se akaba yatsikiye mu gihe yakoraga siporo.

Umukobwa urimo gukora imyitozo ngororamubiri ari mu nzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yambaye agakabutura gato k'ikoboyi yambaye agasenge k'icyatsi kamufashe ndetse n'inkweto zifunze, aho ari gusunika icyuma kiremereye cyane.

Kwa muganga aho umurwayi ufite ikibazo cyo kuba yaravunitse ukuguru arwariye, abandi bantu basa n'aho ari abakire, baje kumusura, higanjemo abagabo bambaye amakaruvati, aho baje kureba aho uburwayi bwe bugeze.

Umukobwa mwiza cyane, yambaye inkweto z'umweru ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara ,ndetse akaba yicaye hasi mu muhanda, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ndetse n'amaboko icyarimwe.

Imodoka izwi nk'imbangukiragutabara, iri kugenda mu muhanda, aho kuhande hateye ubusitani ndetse imbere yayo haruguru y'umuhanda hakaba hari ishyamba rinini cyane.

Abagabo bane, bose bambaye amakabutura ndetse n'imipira y'amaboko maremare, aho bari kwiruka mu muhanda, bigaragara ko bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusore w'akataraboneka ukora imyitozo ngororamubiri, afite umupira wanditseho umubare kane ndetse akaba yambaye n'agapira k'amaboko magufi gasa n'icyatsi.

Ikizingo kimeze nk'urupapuro rw'isuku ariko cyo kikaba gisa n'ubururu gitandukanye n'impapuro z'isuku ziba zisa n'umweruro, cyo kikaba cyifashishwa aho umuntu aba yagize impanuka nko gutsikira akora imyitozo ngororamubiri, bakamupfuka.

Umukobwa wambaye ipantaro y'icyatsi imufashe cyane ndetse n'isutiya nayo imufashe, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho ari kurambura ukuboko kwe agahina ukuguru kuzamura nuko, agakurura kwa kuguru asa naho arikunanura mu mavi.

Umukobwa wicaye hasi ku mukeka, yambaye ipantaro imufashe ndetse n'isengeri ntoya y'umukara, akaba ari gukora siporo aho ari kunanura amaboko ye, imbere ye hakaba hari mudasobwa ndetse afite n'ibyuma aterura, kugira ngo bimukomereze imikaya y'amaboko.

Umusore ufite amaboko abyibushye, akaba afite na tatuwaje, yiyogoshesheje agasunzu, akaba yambaye isengeri y'umukara, aho ari gukora siporo ananura amaboko mu buryo bwo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, akaba ari kwimenyereza kugenda ku kantu gafite amapine. Yambaye ikabutura y'umukara irimo umurongo utukura ku ruhande, akaba yambaye agapira k'umutuku, iruhande rwe hakaba hari undi mugabo uri kumutoza.

Hari mu gitondo kare kare, ubwo umukobwa yakoraga imyitozo ngororamubiri, akora utuntu tw'udusiporo nuko agira ikibazo cyo gusikira agatsinsino. Kuri ubu akaba yaje kwa muganga, aho yicaye ku gitanda cy'abarwayi, akaba ari kwitabwaho na muganga.

Imbuto ziri mu moko atandukanye, imineke, inkeri, amapera, ku ruhande hakaba hari amagi, inyama, ibinyampeke, hirya hari imboga zirimo insenda, povuro ndetse n'izindi, zose ziribwa n'umuntu umaze gukora siporo.

Imiti gakondo itandukanye, ikaba iri mu macupa y'ubwoko bwinshi, hakaba amacupa y'umweru, kaba amacupa y'umuhondo n'ay'umutuku ariko yose akaba ariho igishushanyo cy'igikakarubamba.

Amacupa meza cyane ari mu ibara ry'umuhondo, akaba afite umupfundikizo w'igitaka, ni amacupa ashushanyijeho igikakarubamba, ndetse hakaba hariho n'amagambo asobanura ngo amavuta y'igikakarubamba.

Urubuto rw'ipapayi ni urubuto akenshi na kenshi rudahabwa agaciro rukwiye ariko rufite akamaro kanini ku buzima bw'umuntu. Ni urubuto akenshi na kenshi iyo urusatuye usanga utubuto duto mu nda ukaduta ukarya igisigaye nk'uko barya avokana

Uducupa dutatu tubiri turasa n'umweru, tukaba turiho n'igipapuro kigaragaza ko harimo umuti gakondo kandi kamwe karasa n'umuhondo, ku ruhande hakaba utundi dupaki twinshi cyane tw'umweru, natwo turimo umuti gakondo.

Imiti gakondo ntabwo ijya kure y'ibyo dukunda gukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi twavuga nk'igitunguru, ibi bitunguru by'ibijumba, tukavuga indimu n'ibindi bitandukanye byose bigira akamaro gakomeye mu mubiri wacu.

Abagore batanu bambaye imyenda umubiri wose bipfutse, bagiye ahantu kinani aho bane muri bo bunamye mu bwatsi, undi akaba ahagaze na we ari gutambuka aho bose baje gusoroma umuti.

Agapaki gatoya cyane kari mu ibara ry'umweru gapfundikishije n'umupfundikizo w'umweru, gafite ibara ry'umuhondo hasi no hejuru ndetse kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umuhondo asobanuye ngo igikakarubamba mu kinyarwanda.

Ni udupaki dutandatu, tukaba ari udupaki tw'umweru turambitse ducuramye, dushushanyijeho ifoto y'igikakarubamba, aho bishushanyije mu ibara ry'icyatsi ndetse hakaba handitseho n'andi magambo asobanura ngo igikakarubamba.

Udupaki tubiri turi mu ibara ry'umweru tukaba dushushanyijeho igikakarubamba mu ibara ry'icyatsi, tukaba twanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'icyatsi asobanura umuti w'amenyo ukoze mu gikakarubamba.

Icupa ry'umweru, ririho ifoto y'uruyuki rikaba ririho igipapuro cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hakaba handitseho n'andi magambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ari mu ibara ry'umukara.

Ibyatsi bitandukanye bikorwamo imiti gakondo yamaze guhamurwa, aho babizanye bakabirambika ku giti babinomberaho, aho bitegura kubinomba, bakabikora neza kugira ngo umuntu ufite uburwayi abashe kubinywa nk'umuti.

Udupaki tubiri tw'uducupa twanditseho amagambo asobanura ngo amavuta y'igikakarubamba akaba anashushanyijeho igikakarubamba ateretse ku meza hasi hakaba hariho ibisate bitatu by'umuneke.

Mu bihe bya kera ubwo umuntu yarwaraga byabaga ngombwa ko bajya kumushakira imiti bakamuhamurira mu kinani ndetse no mu mashyamba atandukanye nubwo kuri ubu ngubu byahindutse hasigaye hari imiti ya kizungu.

Abagabo benshi bateraniye ahantu mu cyaro mu murima umwe baje gusura umuhinzi wahinze ibikakarubamba mu buryo bwo kugira ngo ateze imbere gahunda z'ubuzima ndetse no kurwanya indwara zitandukanye.

Uducupa dutandukanye tubikwamo imiti gakondo hari utumweru, utudomoro tw'umuhondo ndetse hari n'udupaki tw'amashashi turambitse ku meza aho inyuma yaho hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'imikindo.

Abantu bateraniye hamwe, aho baje gusora umurima munini cyane w'akataraboneka, utewemo igihingwa k'igikakarubamba, aho rwiyemezamirimo yabikoze mu buryo bwo gushaka amafaranga.

Umukobwa wambaye ipantaro akaba afite telefone, ari ku muhanda aho ari gucuruza imiti itandukanye, hari iy'umukara iy'icyatsi iri mu mabara atandukanye bitewe n'ubwoko bwayo ndetse n'indwara ivura.

Igiti kinini cyane cy'umuravumba, akaba ari igiti gikorwamo imiti itandukanye ya gakondo, kikaba cyarakuze mu kinani, kigasumba ibindi biti byose biri kumwe.

Udupaki dutatu harimo tubiri tw'umweru ndetse na kamwe karimwe ibara ry'umuhondo, twose tukaba twanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye asobanura ngo: amavuta akozwe mu gikakarubamba.

Ibimera bitandukanye bivamo imiti gakondo, twavuga nka marigarita, igikakarubamba, umweya, ravenda n'ibindi byose byifashishwa mu gukora iyi miti ya kizungu yateye kurusha, uko byakorwagamo imiti gakondo mu gihe cyahise.

Ibinini icumi byose biri ku gapaki kamwe aho iruhande hari amagambo ari mu ibara ry'umukara akaba yanditse ku gipapuro giteye irange ry'umuhondo ndetse n'icyatsi yose akaba ari ibijyanye n'imiti gakondo.

Mbere na mbere kugira ngo imiti itandukanye ibanze ikoreshwe akenshi irahamurwa, ikanikwa, ikuma, bakayinomba, bakayigira nk'ifu ndetse bakayipima ku biro bifashishije imyuzana kugira ngo babanze barebe neza ubuziranenge bwayo.

Agapaki gatoya gafite ibara ry'umuhondo ariko gakoze mu ishashi, karimo imiti gakondo ifite ibara ry'umutuku wijimye, kakaba kanditseho igipapuro cyanditseho amagambo atandukanye, bisobanura ngo migarama ijana.

Agapaki gatoya gafite ibara ry'umweru, kakaba kanditseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, bikaba asobanuye ngo isabune ikozwe mu gikakarubamba.

Uducupa twinshi cyane turambitse ahantu hamwe. Twose bigaragara ko turimo imiti gakondo igiye tandukanye, hakaba hari uducupa tw'umweru, utw'uhondo, utw'umutuku ndetse utw'umweru twinshi dushushanyijeho igikakarubamba.

Ibanga ryo kugira amenyo meza kandi akeye ryabonetse, ubugubu turi kwifashisha umuti w'amenyo ukoze mu gikakarubamba akaba ariwo muti uri usukura amenyo akera de.

Udupaki tubiri tumeze nk'utubamo umuti w'amenyo turasa n'umweru, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ari mu ibara ry'umutuku asobanura igikakarubamba, bisa naho turimo umuti wakozwe mu gikakarubamba.

Umurima witaruye, ukaba urimo ibimera bitandukanye byiganjemo imiravumba, aho yifashishwa nk'imiti gakondo ivura cyanecyane indwara zifata mu buhumekero.

Imiti gakondo itandukanye, mbere yuko ibikwa mu ducupa ngo wenda ibe yabikwa mu dutanda, ibanza gutondekwa mu byiciro bitewe n'ubwoko bwayo, ibara ryayo, ndetse n'indwara ivura.

Ibinini biri ku gapaki gatoya k'ishashi, akaba ari ibinini icumi, biri mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande hakaba hariho ikindi gipapuro kiri mu ibara ry'umuhondo, cyanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, risobanura ngo igikakarubamba.

Agapaki gatoya kari mu ibara ry'umweru kaditseho amagambo mu mabara atandukanye, hariho amagambo ari mu ibara ry'ubururu asobanura ngo igikakarubamba, ku ruhande hakaba hari n'igikakarubamba gikase kitarakoreshwa nk'umuti ngo kibe cyatunganywa mu bundi buryo.

Imiti itandukanye gakondo ya saruwe ku musozi muremure wa jari, ikaba ibanza kumishwa inombwa kugira ngo izakoreshwe nk'imiti, aho ivura indwara zitandukanye ziganjemo iz'ubuhumekero.

Akadomoro k'akabundi gapfundikishije umupfundikizo utukura, kakaba karimo umuti w'igikakarubamba, aho wifashishwa mu kuvura abantu b'ingeri zitandukanye.

Ni mukinani aho hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibiti birebire by’umuravumba, aho byifashishwa nk'umuti gakondo uvura by'umwihariko indwara zifatamo ubuhumekero.

Udupaki dutandatu tuzwi nk'utubikwamo umuti w'amenyo turasa n'umweru dufite n'imipfundikizo y'umweruro, twanditseho amagambo asobanura igikakarubamba mu Kinyarwanda.

Ibimera bifite amababi maremare ameze nk'ay'isombe ndetse n'ibindi bifite amababi magufi nk'ay'avoka, byose birahanurwa bigakorwamo imiti gakondo ifasha mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti uri mu gacupa k'umweru, kazengurutswe n'igipapuro kiri mu ibara ry'umutuku, ni umuti gakondo, hakaba hariho amagambo agaragaza ibyo umuti uvura, harimo kurangiza vuba ndetse no gucika intege.

Abantu babiri umwe afite uburoso bw'amenyo, aho undi afashe agakarito kabikwamo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba, akaba ari kumushyirira umuti ku buroso kugira ngo ajye koza amenyo.

Ibinyampeke nk'ubunyobwa, imboga zirimo igitoki, ndetse n'ibimera bitandukanye twavuga nk'umwenya, bifasha umubiri kurushaho gukora neza ndetse bigafasha n'umuntu kugira ubudahangarwa umurinda ndwara.

Agatanda k'umwero karimo imiti itandukanye, harimo iri mu macupa y'ibyuma, hakaba iri mu macupa ya purasitike ariho imipfundikizo y'umuhondo ndetse n'indi myinshi.

Ni uducupa tune, dutatu turasa n'umweru, tukaba turiho igipapuro gisa n'umweru ariko cyanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, ku ruhande hari icupa rinini risa n'umukara aho imbere nanone hari uburabyo bw'umuhondo, bwose buvamo imiti gakondo.

Umuntu w'umwirabura ni umukobwa wambaye agapira k'ubururu akaba ari ku ifoto, igipapuro cyanditseho ngo umuti gakondo aho hariho n'amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku avuga ngo ''vuga oya''.

Igikakarubamba nk'umuti usanzwe ukoreshwa mu buvuzi gakondo, kuri ubu ngubu usigaye unifashishwa muri ubu buvuzi bwateye imbere bwa kizungu, aho bafata igikakarubamba bakagishira mu nganda, bakakivugurura, bakabakibika mu dupaki dutandukanye, twavuga nk'utw'umuhondo, umutuku n'utundi.

Imiti itandukanye, iri mu macupa atandukanye mu mabara bitewe n'ubwoko bwa buri muti, hari amacupa y'icyatsi, amacupa y'umukara afite imipfundikizo y'umweru ndetse n'indi itandukanye.

Ibyatsi bitandukanye twavuga inteja ndetse n'ibindi byatsi biranda hasi, aho bihamurwa bigakorerwamo imiti gakondo, akenshi bisangwa mu byaro ahanini bigasangwa mu kinani.

Imiti gakondo ikorwa mu bimera bitandukanye. Twavuga nk'igikakarubamba, lavenda, marigorode ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Icupa riringaniye, ni iry'icyuma, rikaba ririmo umuti gakondo, akenshi na kenshi uba warakozwe biturutse ku bisigazwa by'ubuki, bivangwa n'indi miti.

Ibikoresho bitandukanye byakoreshwaga n'abakurambere mu gutegura imiti gakondo. Hari akeso hakaba hari igicuba, hakaba ibikombe, hakaba inzu y'abakuru ndetse n'ibindi bitandukanye aho bisandaguje mu cyumba.

Agacupa keza cyane. Gasa n'umweru kakaba kazengurutswe n'igipapuro na cyo cy'umweru gifite amabara hakaba hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umukara byose bivuga ngo azakoreshwa igihe cyose ku munsi.

Ese wari uzi ko mbere yuko imiti gakondo iboneka ubanza kuyitegura? Uducupa tubiri tw'uturahuri turimo amazi tukaba turimo n'amababi y'umuravumba, ndetse n'indi miti itandukanye kugira ngo babanze bayitunganye neza mbere yuko ikoreshwa.

Uducupa dutatu, tubiri turasa n'umweru, akandi kamwe karasa n'umuhondo, kakaba kanditseho amagambo asobanura ngo ''Amavuta akozwe mu gikakarubamba.''

Igiti kinini cyane cy'inganzamarumbo giteye hagati mu ishyamba, aho rifite amababi ahamurwa hakavamo umuti uvura indwara zitandukanye ziganjemo izo mu buhumekero.

Uducupa twiza cyane turimo ibara ry'umweruru turiho imipfundikizo y'ubururu hejuru hakaba hari n'akandi kameze nk'akabamo umuti w'amenyo, hari ibishushanyo by'abantu barwaye umugongo bigaragara ko utu ducupa turimo umuti gakondo uvura umugongo.

Agatanda karimo imiti itandukanye gakondo akaba ari imiti igiye ipanze mu bikarito bitandukanye ariko bisa nahoho imiti yose ari ubwoko bumwe kuko ifite amabara amwe ku bikarito ndetse n'amagambo yanditseho ni amwe.

Ikimera kiza cyane gifite amababi ameze nk'ay'umuravumba, gifite imbuto z'umutuku ndetse n'iz'umuhondo, kikaba kifashishwa nk'umuti gakondo uvura indwara zitandukanye ziganjemo izifata mu ngingo.

Udupaki dutandukanye turi mu mabara menshi ndetse n'uducupa twiganjemo uturimo imiti gakondo turambitse hamwe, ku ruhande hakaba hari inanasi ndetse n'ubunyobwa.

Imiti gakondo itandukanye irimo igikakarubamba, umwenya, seleri, n'indi itandukanye mbere y'uko ikoreshwa ngo ivure, babanza kuyifata bakayisekura mu gasekuru gato kabugenewe bakayigira ifu.

Turi mu nzu icururizwamo imiti itandukanye by'umwihariko imiti gakondo. Hari imiti gakondo ibikwa mu macupa y'umukara, y'umweru n'andi atandukanye. Hari umukobwa uri kuyicuruza akaba yambaye itaburiya.

Umugabo wambaye ikarita y'akazi mu ijosi afite umuhati ndetse n'izindi ndabyo, aho zikoreshwa nk'umuti gakondo ari kuzimurika imbere y'abashyitsi baturutse impande zose.

Icyatsi kiri mu ubwoko umusave, kikaba giteye ahantu hamwe, gitoshye cyane, iki ni icyatsi gikoreshwa bavura umuntu iyo yagize ikibazo cyo gucibwamwo.

Imiti gakondo itandukanye. Yarahamuwe, iranikwa, ubu ngubu aho yari imaze kuma neza bayifashe imwe muri yo bayishyira mu gasekuru kabugenewe barayisekura iba ifu kugira ngo babashe kuyikoresha ibyo yagenewe.

Agapaki gatoya gafite ibara ry'umweru, kakaba gapfundikishije umupfundikizo usa n'ubururu kanditseho amagambo ntari kubona neza ariko ari mu ibara ry'umukara.

Ni ikimera cy'akataraboneka kiranda hasi, kikaba gifite amababi abiri abiri ateganye. Gifite uburabyo bw'iroza kikaba gikurwamo imiti itandukanye gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu bakuru.

Ikimera cyiza cyane cy'akataraboneka gikunda kugaragara mu Rwanda, gifite amababi meza ameze nk'aya voka, kikaba gifite n'akandi gato k'agashibo bigaragara ko kiri gutegurwa kugira ngo kizakurwemo umuti gakondo.

Udupaki twinshi cyane turimo utw'umweruru hakaba utw'umuhondo ariko twose dushushanyijeho igikakarubamba bisa n'aho turimo imiti gakondo ikozwe mu kimera cy'igikakarubamba.